Umugabo uhagaze asamika akaboko ameze nkuri gusobanura yegeranye n'umupolisi yicaye ahantu hubakiye neza hasakaje amahema, ibitambaro biri mu bwoko bw'amabara atandukanye bisa n'idarapo ry'u Rwanda abandi bahicaye bateze amatwi.

Abakozi bakora mu by'umuriro w'amashanyarazi bose bahagaze hamwe bari kujya inama, bambaye ijire zanditseho rege ziriho nimero zandikishije umukara, bambaye ingofero z'umweru ndetse n'umuhondo, imbere yabo hari amapoto ariho insinga z'amashanyarazi, hameze nk'aho ari ku ikusanyizo ry'umuriro w'amashanyarazi.

Inzu nyinshi cyane zigaragara nk'aho zegereye bariyeri yinjira ndetse ikanasohoka, zisakaje amabati y'ubururu, inyuma yazo hari umusozi muremure uriho ibyatsi.

Inzira yo mu kirere. Ikiraro gifite inzira inenetse hejuru. Inkingi ebyiri zigifasheho zifite amarangi y'umuhondo ndetse n'icyatsi. Ubutsinga bugifashe bwo hejuru burananetse cyane, bwambuka hakurya ndetse bukagera no hakuno. Munsi yacyo harimo ibyatsi ndetse n'umuyoboro w'amazi.

Inzu ifite amabati y'icyatsi. Urubaraza rwicayeho abantu abadamu n'abagabo. Hasi hameze nk'ahari agafuka imbere yuru rubaraza. Akayira kava kuri iyi nzu kubakishije amatafari ahiye. Impande yaho hari ikigega cy'umukara. Hirya yayo hari amahema y'igitare maremare yugamamo abantu.

Imodoka y'umweru umugabo arimwo hejuru. Iri kugenda muri kaburimbo y'umukara. Kuruhande hari akantu gatandukanya umuhanda w'abanyamaguru ndetse n'uwimodoka. Ruguru y'umuhanda hari amazu y'ubucuruzi.

Abantu bari kureba imbere, bamwe bambaye upfukamunwa, abandi ni abagabo, abandi ni abagore biteze ibitambaro abadamu bamwe muri bo abandi bafite imisatsi bahanze amaso imbere.

Abakinnyi bari mu kibuga, bambaye imyenda yabugenewe, iy'icyatsi ndetse n'iy'umutuku, ruguru y'ikibuga hari abantu bari gufana, inyuma y'aho hakaba inzu y'amatafari ahiye, ifite n'igipangu cy'amatafari ahiye, bamwe baricaye abandi bahagaze.

Abakobwa bari gukina umupira, bamwe bambaye imipira y'umutuku abandi bambaye iy'umukara weruye bari muri sitade ifite utwatsi dutoya cyane tumeze neza dukeye impande yayo hari uruzitiro ruyizengurutse ruyigose.